Aba n'abagabo babiri bari gutera umuti mu bihingwa byabo, bikaba bibafasha mu kwica udukoko ndetse n'impungu ziba ziri mu bihingwa byabo, bikaba bibafasha kugira ngo bazabashe gusarura umusaruro ushimishije kandi utubutse.

Hari imiti yabugenewe yashyizweho kugira ngo ifashe abantu kubona umusaruro ukwiriye kandi ikica n'udukoko twakwibasira imyaka yabo.

Uyu ni umugabo, uri gutera umuti, wica udukoko mu myaka ye, bikamufasha kugira ngo ya myaka itange umusaruro, kandi itangizwa n'udukoko tuyirimo, kandi bikamufasha kugira ngo azabone umusaruro.

Uyu mugabo ari gutera imiti mu bihingwa, aho bifasha mu kugira ngo byice udukoko ndetse n'utundi tuyabuzima twakwangiza ibihingwa bye, ibyo bigafasha mu kugira ngo ibihingwa bye bizabashe gutanga umusaruro mu gihe kiri imbere.

Uyu ni umugabo uri kuhira ibijyanye n'ibiti by'ubwiza by'umwihariko imikindo ndetse n'ubundi busitani, bikaba bifasha ibi biti gukura neza ndetse no gukuraho udukoko twatuma bidakura neza.

Imiti y'ica udukoko ni bimwe mu bikoreshwa kugira ngo hongerwe umusaruro ukomoka ku buhinzi, bityo buri wese aba agomba kubyitaho kugira ngo tubone icyo turya kandi tubashe kubona n'uburyo twiteza imbere.

Amacupa arimo imiti yifashishwa, mu kwica udusimba, twakwibasira, ibihingwa by'abaturage ndetse akaba yifashishwa no mu kuyabika ndetse no mu gutunga, iyo miti.

Uyu ni umworozi. Aho bigaragara ko afite amafi menshi. Akaba yifashishwa n'abantu nko mu gutanga ibiryo ndetse agatanga n'amafaranga, binyuze mu kuyagurisha abandi bahembwe.

Ubuhinzi bw'amafi ni kimwe mu buhinzi buteye imbere mu Rwanda, kandi akaba afasha abaturage kubona indyo zuzuye ndetse no mu kubona amafaranga binyuze mu bucuruzi bwazo.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi bumaze gutera imbere cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu Karere ka Nyagatare, aho hari ibyuzi byinshi ibiyaga ndetse n'ahandi hantu hatunganyirizwa amafi.

Aba ni abagabo bane bari kuroba amafi yifashishwa nk'ibiribwa by'abantu ndetse akaba afitiye n'igihugu akamaro kuko yinjiza amafaranga aturutse kuko bayagurisha n'abantu bo hanze.

Aya ni amafi aho yifashishwa n'abaturage mu kubona ibyo kurya, ndetse bakabona n'amafaranga binyuze mu kuya yacuruza, kandi akaba ari kimwe mu byo leta yashyizemo imbaraga mu buhinzi bwayo.

Ibi ni ibyuzi aho amafi akurira ndetse akaba aboneramo ibyo akeneye bya buri munsi ndetse impande y'ibyuzi hariho amashyamba afasha mu kurinda imyanda ndetse n'ibindi bikoko kwinjira mu byuzi.

Ubworozi bw'amafi, tugomba kumusigasira, binyuze mu miti dutera mu bihingwa byacu, tukirinda kubitera ahegereye ibyuzi byacu dushyiramo amafi ndetse tugafatanya na leta mu kubahiriza ingamba iba yarashyizeho.

Uyu ni umurobyi, amaze kuroba, aho ubwato bwe burimo amafi, akaba yayashyize ku nkombe z'ikiyaga.

Abahinzi ndetse n'aborozi, bagomba gufashwa mu gushyiraho ingamba zituma ibyo bakora bitera imbere, by'umwihariko abakora mu bworozi bw'amafi, na bo bagomba kwitabwaho.

Uyu ni umugabo aho afite akadobo karimo ibiryo by'amafi, bikaba bigaragara ko ari kuyagaburira kugira ngo azakure neza kandi akure afite imbaraga, muri make abashe gutanga umusaruro nk'uko bikwiye.

Ubworozi bw'amafi ni ngombwa ko tubuteza imbere kuko bufasha abaturage kubona indyo yuzuye ndetse n'amafaranga kandi bikadufasha natwe ababikoramo kubona akazi.

Hari bimwe bifasha abantu gukura neza birimo amatungo muri ayo matungo rero harimo n'amafi, tugomba kwimakaza ubworozi bw'amafi kugira ngo tubashe kubona ibyo dukeneye.

Ibihingwa bidufasha mu kuduha amafaranga, birimo ikawa ,icyayi ndetse n'ibindi. Ni ngombwa ko twitabira kubihinga, kugira ngo tubashe gutunga imiryango yacu, kandi tubashe kubona n'ibyo dukeneye.

Aba ni abahinzi babiri b'icyayi, bari kugisarura, kikaba kibafasha mu kubinjiriza amafaranga, binyuze mu kukigurisha kandi kikaba gifasha n'abanyarwanda, mu bijyanye n'ibiribwa ndetse no mu bijyanye no kuzamura ubukungu bwabo.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bifasha abaturage: mu kwiteza imbere kandi bikabaha amafaranga menshi, abasha kuzamura imibereho yabo ndetse bikanabafasha kuzamura imibereho y'urugo rwabo ndetse n'u Rwanda muri rusange.

Abaturage by'umwihariko abahinzi, tugomba gufatanya na bo mu mirimo ya bo ya buri munsi, haba ari gutera, gusarura ndetse no kubungabunga ibikorwa bibinjiriza amafaranga.

Iki n'igihingwa cy'ikawa, aho umubyeyi ari kugitunganya mbere y'uko kijyanwa ku isoko, kikaba gifasha abaturage mu kubona amafaranga binyuze mu kukigurisha kandi bikanabafasha mu kwiteza imbere.

Iki ni igihingwa cy'ikawa, aho abaturage kibafasha mu kubongerera ubukungu binyuze mu kuzigurisha ndetse kikaba kinabafasha mu kugira ngo babeho neza binyuze muri ubwo bukungu bafite.

Aba ni abahinzi aho bari guhinga igihingwa cy'umuceri cyifashishwa nk'igihingwa ngandurabukungu, ibi bigafasha abaturage mu kubona umusaruro urimo amafaranga ndetse no mu kwirinda indyo ituzuye.

Uyu ni umuhinzi uri kwerekana imbuto ze z'ikawa, aho yifashishwa mu gukora ibinyobwa ndetse ikanatanga amafaranga ku muhinzi wayihinze.

Uyu ni umuti wifashishwa n'abakora umwuga wo kuvura amatungo, ukaba ukoreshwa mu kuvura by'umwihariko ibisebe byo mu maso, ukaba ukoreshwa ku matungo yose harimo inka ihene ndetse n'ahandi.

Ubuzima bw'amatungo ni kimwe mu byo tugomba gushyira imbere, ibyo bisobanuye ko guha itungo ryawe ikimenyetso bigufasha mu kucyitaho kuva kivutse kugeza gikuze .

Iyi ni imiti y'amatungo, aho yifashishwa mu kurinda indwara ndetse no kuvura ibijyanye n'indwara z'amatungo. Ibi bikaba bifasha amatungo kuguma gutanga umusaruro mwiza.

Ibi ni imiti y'amatungo, aho ifasha amatungo mu kongera umusaruro, kurinda indwara ndetse ikaba inafasha mu kongera ibijyanye n'inyama, amata ndetse n'ibiro.

Iyi ni imiti y'amatungo, yifashishwa n'inka, ihene, intama, ndetse n'andi matungo, magufi. Bikabafasha mu gutuma zibaho neza, kandi, bikabafasha mu kurinda indwara, z'amatungo.

Iyi ni imiti y'amatungo aho yifashishwa mu gusuzuma, kurinda ndetse no kurwanya indwara, ibi bikaba bifasha amatungo kugira ngo abeho neza kandi abashe gutanga umusaruro uko byari bikwiriye.

Amatungo afite imiti yabugenewe iyafasha mu kurinda indwara runaka ndetse akazifasha no mu kuvura ndetse no mu gusuzuma indwara zazo.

Aya ni amacupa ari ahantu hamwe akaba arimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo kandi igafasha amutungo mu kwirinda indwara runaka ndetse no kuyarinda gutakaza ubuzima bitewe n'indwara.

Utu ni uducupa turimo imiti yabugenewe yifashishwa mu kurinda indwara ndetse no mu kuzivura by'umwihariko ikaba ikoreshwa ku nkoko ndetse no ku nka ndetse n'andi matungo.

Aba ni abahinzi aho bamaze gusarura ibihingwa byabo, bakaba bari kubitunganya mbere y'uko babijyana ku masoko kandi ibi bikabafasha mu kongera ubukungu bwabo bwa buri munsi.

Uyu ni umuhinzi aho ari gutegura ubutaka bwe kugira ngo azabuteremo imbuto, ibi bigafasha imbuto azateramo gukurira ahantu heza kandi zikazabasha no gutanga umusaruro kandi bikarinda n'ibyonnyi byazajya mu myaka ye.

Ubu ni ubuhinzi bw'ibigori, aho bufasha abaturage kwiteza imbere, binyuze mu kongera ibiribwa ndetse no mu kubona amafaranga, aho abaturage babigurisha, babijyanye ku masoko, bajya kubiha abandi, baba batarabihinze.

Uyu ni umugore aho ari mu murima we. Ukaba utemo ibigori kandi akaba ari gukuramo ibindi byatsi byabangamira ugukura neza kw'ibigori binyuze mu kubitwara amazi ndetse n'ibindi ibihingwa bye by'ibigori byakenewe.

Ni abagabo babiri bigaragara ko bari gusarura ibihingwa by'ibigori bikaba byifashishwa mu kuribwa n'abantu, kandi bigatanga umusaruro burimo amafaranga yifashishwa mu gukemura ibindi bibazo.

Aha ni hamwe mu hategurirwa imbuto z'abaturage aho bigaragara ko ari imboga binaje, zikaba zihabonera ibikenewe byose birimo amazi, imiti ndetse n'izuba rihagije ribifasha kugira ngo bikorane imbaraga.

Abahinzi ndetse n'aborozi ni bamwe mu bafitiye igihugu cyacu akamaro kanini kuko bafasha abaturage benshi mu kubona ibyo kurya ndetse no mu gutegura ejo habo hazaza, bityo bigatuma bibarinda indwara ndetse bakanabaho igihe kirekire.

Twese hamwe dufatanyije, dusabwa gukora kugira ngo tugere ku byifuzo byacu bya buri munsi bityo rero n'abahinzi ndetse n'aborozi bagomba gukora cyane kugira ngo bagere ku iterambere.

Ubworozi by'umwihariko bw'amatungo, haba ibiguruka, amagufi ndetse n'amaremare, ni bimwe mu byo Abanyarwanda twiyemeje mu kwiteza imbere kandi bikadufasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'ibindi byinshi.

Aba ni abahinzi babiri bari guhinga ibihingwa byabo, bakaba bari gutegura aho bizajya kugira ngo bizabashe gukura bifite imbaraga kandi bizatanga umusaruro ushimishije mu gihe kiri imbere mu gihe bizaba byakuze.

Iki ni igihingwa cy'ibirayi aho gifasha abaturage mu kubona amafaranga kubona ibyo kurya by'umwihariko ibitera imbaraga kandi kikaba gifasha abaturage mu kubona inyungu binyuze mu kubijyana ku masoko.

Uyu ni umuhanda ugezweho; ukaba ukikijwe n'amatara, urutoki, ibiti ndetse n'ibindi birimo inzu,..

Iki ni igihingwa cy'ibishyimbo, aho gikora nk'ihihingwa ngandurarugo kiba gifasha abaturage mu kubona indyo yuzuye ndetseba kikaba kibafasha mu kubatera imbaraga zo gukora akazi kabo ka buri munsi.

Iki ni igihingwa cy'urutoki, aho kera ibitoki bikoreshwa nk'ibiryo by'abantu ndetse n'amatungo, bikaba bifasha kandi mu gutanga inzoga za kinyarwanda, kandi bikaba bifasha mu gutuma abantu bizihirwa bahujwe n'ibyo binyobwa biba byavuye mu rutoki.

Hari ibihingwa, bidufasha mu kuzamura imibereho yacu by'umwihariko ibirayi, aho bitanga amafaranga ndetse bigatuma tunabaho neza, tukaturinda indwara ndetse bikadufasha no kutwongerera imbaraga, zituma dukora ibindi bintu, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubu ni ubuhinzi bw'ibigori, bukoreshwa nk'ibiryo by'abantu, bikaba biri mu bwoko bw'ibinyampeke, aho bikoreshwa mu gutanga imbaraga ku bantu ndetse n'amatungo.

Uyu ni umurima uhinzemo ibihingwa by'ibishyimbo, bikaba byifashishwa nk'ibiribwa by'abantu ndetse ukaba utanga n'ibisigazwa byabyo byifashishwa nk'ibiryo by'amatongo.

N'umuyobozi uri kumwe n'abaturage, aho ari kubigisha ibijyanye no kubungabunga ibinyabuzima by'umwihariko amashyamba, kuyabungabunga ndetse no gutera amashyamba, bikaba byifashishwa nk'aho ibindi binyabuzima bitura ndetse no mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Aya ni amasiteri y'ibiti, atemwa mu ishyamba, yifashishwa, mugucana ndetse, no gutanga amakara akoreshwa nk'ibicanwa byo guteka, ibidutunze.

Ibikorwa remezo ni ngombwa ko bikikizwa n'ibiti, kugira ngo bijye bifasha mu gutanga akayaga ndetse no gutanga umwuka mwiza, bantu bahumeka muri izo nyubako.

Amashyamba ndetse n'ibiti ni hamwe mu bo tugomba kwitaho, kuko habamo ibinyabuzima ndetse bikatuyungurira n'umwuka duhumeka.

Iki ni igiti, aho gifasha ibinyabuzima kubona aho bitura ndetse kigafasha no mu kuyungurura umwuka mwiza duhumeka kandi kigakoreshwa nko mu gufata ibiryo by'ibindi binyabuzima.

Ibiti ni kimwe mu bidufasha mu kubona umwuka mwiza duhumeka ndetse no mu gufata ubutaka bwacu ngo butajyanwa n'isuri bityo tugomba gufatanya kugira ngo tubiririnde. Twirinde kubitema cyane kandi tunatere byinshi kuruta ibihari.

Ubuhinzi ni kimwe mu bifasha Abanyarwanda benshi mu kwiteza imbere kuko baboneramo ibyo kurya ndetse bagasagurira n'amasoko kandi bigafasha no mu gusabana kwabo by'umwihariko mu minsi y'imiganura.

Ibiti by'imbuto ni kimwe mu byo tugomba kwitaho kandi tukabireberera ku buryo bitakwangirika kuko biduha amafaranga ndetse bikanatwongerera ubuzima bwiza.

Ni kimwe mu bifitiye abanyarwanda benshi akamaro, binyuze mu kuzigurisha ndetse no mu kuzikoresha nk'imitako kandi bigafasha no mu kugaragaza umuco nyarwanda ndetse no mu kongera igenagaciro by'abaturarwanda muri rusange.

Aba ni abahinzi b'amatunda, aho afatwa nk'imbuto kandi akaba yinjiriza abayahinga amafaranga, kandi akanabafasha kubaho neza no kubona uko batunga imiryango yabo.

Uyu ni umuhinzi aho ari kuhira ibihingwa bye by'amacu, bikaba birinda ibihingwa bye mu kuba byakwatakwa n'izuba ryinshi bigatuma bitanga umusaruro mukeya.

Abagabo batatu nibo bari kuhira imboga, bikaba bizifasha kugira ngo zibone amazi kandi zibashe gutanga umusaruro kuko iyo izuba ribaye ryinshi bikabura amazi ntabwo bitanga umusaruro nk'uko byari bikwiye.

Uyu mugabo ari kuhira ibihingwa bye aho bifasha mu kugira ngo ibihingwa bituma ndetse bigatuma bikurana imbaraga bityo bikazabasha gutanga umusaruro ufatika kandi ibi bikorwa ahantu hari izuba ryinshi.

Aba ni abanyeshuri bari kuhira ibihingwa birimo amashu ndetse n'ibigori, bikaba bifasha ibihingwa kubona amazi menshi, by'umwihariko bikaba bikorwa mu gihe cy'zuba ryinshi, kandi bikanafasha igihingwa no kubona imbaraga zokura vuba.

Uyu ni umuturage aho ari kuhira imyaka ibi bikaba bikorwa mu gihe cyane cyane cy'izuba aho baba barinda imyaka yabo ko yakuma bitewe n'izuba ryinshi ndetse akaguma no gutanga umusaruro.

Ubu ni uburyo bwo kuhira imyaka bugezweho, aho byifashishwa mu kurindanda igihingwa kuma bitewe n'igihe kirekire cy'izuba ndetse bigafasha igihingwa gutanga umusaruro bititaye ku izuba.

Kuhira imyaka ni igikorwa, gikorwa cyane cyane mu gihe k'izuba. Aho bifasha ibihingwa by'abaturage, kwirinda kuma binyuze mu zuba ryinshi ndetse bikabafasha n'ibihingwa kuguma gutanga umusaruro.

Uyu ni umuturage aho ari kohira imyaka ye, ibi bikamufasha kugira ngo ituma ndetse ikomeze igire umusaruro, bititaye ku izuba ryinshi kuko amazi afasha ibihingwa gutanga umusaruro mwiza.

Uyu ni umuturage, aho ari gukora ibijyanye no kuhira. Ibi bikaba bikorwa kandi, mu gihe cy'izuba, hategurwa ibihingwa byabo ko bitacika intege bitewe n'izuba ryinshi riba rihari. Bigategu bigakomeza gutanga umusaruro nkuko byari bisanzwe.

Kuhira ni kimwe mu bikorwa bikorwa mu buhinzi kandi bigakorerwa ahantu hari izuba ryinshi ryakwangiza ibihingwa by'abaturage kandi ni ngombwa ko bikorerwa ku gihe kandi bigakorwa ahabugenewe.

Umugore uri mu murima, ari kuhira amashu kugira ngo atuma cyangwa se akomeze atange n'umusaruro, aho afite umurasire uri mu murima we, kandi ukaba n'isoko y'umuriro w'amashanyarazi, akoresha mu rugo.

Kuhira ni kimwe mu bikorwa bikorwa n'Abanyarwanda ndetse n'ab'ahandi, bigafasha ibihingwa byacu kugira ngo bibone amazi by'umwihariko mu gihe cy'imvura nke, aho haba hari izuba ryinshi bigatuma ibihingwa byacu byuma.

Kuruhira harimo uburyo bwinshi bwaba gakondo ndetse n'ubugezweho kandi ni ngombwa ko twakoresha ubuhari kugira ngo dufashe ibihingwa byacu, kubona amazi mu gihe cya nyacyo.

Umugabo ndetse n'umugore, bakaba bari gufatanya mu kuhira ibihingwa byabo birimo ibigori ndetse n'izindi mboga, bikaba bizifasha mu kugira ngo zibashe kutuma ndetse zinatanga umusaruro nk'uko bikwiye.

Uyu ni umuturage uri kuhira ibijyanye n'imyaka ye bikaba bifasha mu kugira ngo ituma kandi itange umusaruro nk'uko byari byitezwe, ibi ngibi cyane cyane bikaba bikorwa mu gihe cy'izuba bikarinda ibihingwa byabo kugira ngo bituma.

Uyu ni umugabo aho afite ibikoresho byifashishwa mu gukurura amazi biyavana ahatu hamwe biyajyana ahandi, by'umwihariko bikaba byifashisha impombo zijyana amazi mu murima aba arakoreshwa mu kuhira.

Kuhira ni igikorwa gikorwa cyane cyane mu gihe cy'izuba, aho bifasha ibihingwa mu kubona amazi cyane cyane mu gihe cy'izuba kandi bigafasha ibihingwa kugira ngo bikure neza kandi bibashe gukomera bitange n'umusaruro.

Iki n'ikiyaga gikikijwe n'imisozi iriho amatarasi y'indinganire, ibiti ndetse n'intoki z'abaturage zifashishwa mu kubaha ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iyi ni imisozi ikikije ikiyaga ndetse hariho umuhanda, ibiti, amazu ndetse n'imiyoboro y'amashanyarazi.

Imisozi cyanecyane ihanamye cyane, iba igomba kubungwabungwa, aho imyaka iteyeho nayo tuba tugomba kuyirinda binyuze mu guca amaterasi y'indinganire, gutera amashyamba ndetse no gucukura ibyobo bifata amazi.

Inka ni imwe mu matungo yohererirwa mu rugo, atanga umusaruro urimo amata, inyama, ndetse agafasha mu gutanga n'icyoro, kandi ifasha abaturage kwikura mu bukene, binyuze mu kugurisha amata zitanga.

Inka zorowe kijyambere. Aho bigaragara ko ari inka zitanga inyama kandi zikaba zifatira ifunguro ahantu hamwe kandi hato. Bituma zidatakaza umwanya munini zigenda kugira ngo zibashe kwiyongera ibiro.

Iki ni ikiraro kirimo ingurube aho zifashishwa mu gutanga inyama ndetse n'icyororo ku bandi baturage. Kandi ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiteza imbere binyuze muri ibyo bintu bihuzwe haruguru ingurube zitanga.

Ubworozi ni kimwe mu byo leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga, haba ubw'amatungo magufi ndetse nubw'amatungo maremare, bityo natwe tugomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo tubone aho dukura ibyo kurya ndetse twubahirize n'uburenganzira bwa mutungo tworora.

Ibiguruka birimo inkoko, imbata, ibishuhe ndetse n'ibindi ni bimwe mu biteje abanyarwanda imbere kandi dusabwa kubibungabunga ndetse no kubifasha mu kugira ngo nabyo bibeho neza mu bwisanzure.

Ishyo ry'inka aho riri ahantu hamwe, rifite akamaro kanini mu gufasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu gutanga amata, inyama ndetse no gutanga ifumbire yifashishwa mu gufumbira ibihingwa byacu.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko aho hariho aho zirira, aho zinywera amazi ndetse n'aho ziba. Bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo bakeneye bya buri munsi ndetse no kubona inyungu zirimo: inyama, amagi ndetse n'icyororo k'izindi nkoko nyinshi.

Inka ni zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo, aho zifasha abantu kubaha amafaranga binyuze mu gutanga inyama ndetse n'amata. Kandi ikaba ifasha n'abaturage kwiteza imbere by'umwihariko.

Umugabo, ukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse bwa kinyamwuga, yorora inkoko ze, aho abasha gukusanya amagi ndetse agatanga n'ibiryo ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Aba ni abasore babiri aho bigaragara ko bahumuje bakaba bari gufata amata bayakusanya. baya n'zina kandi akaba afasha abaturage kubona intungamubiri ndetse no kubona amafaranga binyuze kuyajyana ku makusanyirizo.

Amatungo by'umwihariko inka, zifite akamaro kanini mu bijyanye no kurwanya igwingira ryiby'abana, ndetse no mu guteza imbere aborozi, binyuze mu gutanga amata, ndetse no kuyagurisha. Ndetse hagatangwa n'ibice byazo harimo nk'inyama ndetse n'inka.

Izi ni inkoko ziri aho ziba hakaba harimo ibyo zirya ndetse n'amazi yo kunywa, ibi bikazifasha mu gutanga umusaruro urimo amagi ndetse no mu gukura neza zigatanga inyama.

Ubworozi ni kimwe mu bifitiye abanyarwanda benshi akamaro haba ubw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, bityo rero tugomba gufatanya mu kugira ngo duteze imbere ubworozi ndetse n'ibishamikiyeho.

Ubworozi ni kimwe mu bisata bifasha abaturage mu kwiteza imbere, by'umwihariko ubw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, bifasha abaturarwanda mu kwiteza imbere muri rusange.

Uyu ni umukumbi w'ihene, aho uragiwe ahabugenewe, haba harateguwe ubwatsi bwazo. Aya matungo akaba yifashishwa mu gutanga amafaranga ndetse no mu gutanga inyama ku bantu ndetse n'ayandi matungo.

Ibi n'ibihingwa birimo amashaza, ibishyimbo, ingano, uburo, ubunyobwa ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha mu gutanga mu gukoreshwa nk'ibyo kurya by'abantu ndetse bikaba binafasha mu kurinda indwara kubaka umubiri ndetse no mu gutanga imbaraga ku mubiri w'abantu.

Izi ni imbuto aho abahinzi bari kuzifasha mu kuzibika ndetse no mu kuzitegura kugira ngo zizahingwe zigifite imbaraga zo kumera, ikindi kandi zikaba zifashishwa mu mu gukora nk'ibyokurya by'abantu ndetse n'amatungo.

Ubuhinzi ni kimwe mu biteje Abanyarwanda imbere, harimo ubuhinzi bwa kinyamwuga ndetse n'ubusanzwe abaturage bifashisha kugira ngo babone ibyo barya.

Ibi ni ibihingwa byifashishwa nk'ibiryo by'abantu ndetse n'amatungo birimo: ibishyimbo, soya, ingano, amajeri ndetse n'ibindi. Bikaba bifasha abantu kubona intungamubiri ndetse no kubaka umubiri...

Izi ni imbuto z'ibihingwa, aho harimo ibyimbo, ingano, soya ndetse n'ubunyobwa, ibi bigafasha abahinzi mu kubona umusaruro urimo amafaranga ndetse no kubona ibyo baha umuryango wabo.

Uyu n'umuturage ufite inyana ndetse n'inka ikuze. Bikaba bigaragara ko inka yabazwe ndetse ikaba ikiryamye mu rwuri.

Ubuvuzi ni kimwe mu byashyizwe imbere kandi bigafasha ibinyabuzima byose ndetse n'amatungo yacu gutera imbere ndetse no mu kubona ibyabugenewe, bityo rero nk'abavuzi b'amatungo tugomba gutanga imiti yabugenewe kandi mu gihe cya nyacyo.

Uyu ni umugabo aho bigaragara ko afasha inka mu bijyanye n'ubuvuzi bw'ibanze burimo kubona imiti yabugenewe, bijyanye n'indwara runaka ndetse no kuzivura kandi akanafasha mu kuzongerera umusaruro binyuze mu kuziha imiti ndetse n'ubwabatsi kandi akazifasha no mu kuzitera intanga.

Bari gutegura imiti, izajya ifasha amatungo mu kubona ubuvuzi bw'ibanze kandi bari no kuhigira, bijyanye n'uko babitegura ndetse bakabasha no kubigeza ku baturage.

Inka ni imwe mu mutungo ugomba kwitabwaho ndetse ukubahirizwa n'uburenganzira bwayo kandi bijyanye n'ubuvuzi bwayo bigakorwa n'abantu babyigiye ari bo bagomba kuziha ibijyanye n'ubuvuzi birimo kuvurwa kurindi ndwara ndetse no kuzisuzuma.

Twese tugomba gufatanya n'ababishinzwe kugira ngo turinde inyamaswa z'agasozi gukendera, kandi tukibanda ko twakubahiriza uburenganzira bwazo ndetse tukaziha n'ibyo zikeneye buri munsi.

Iki n'icyanya, aho abantu baje gusura inyamaswa bakabasha kuzigiraho ndetse bakaba baje kuzisura kugira ngo bazabashe no kubona icyo bazivugaho mu gihe baba babibajijwe.

Buri kinyabuzima gifite uburenganzira bwo kuvuzwa, kubona ibyo kurya ndetse no kwidagadura, bityo rero n'inyamaswa z'agasozi zifite uburenganzira bwo kubona ibyo zifuza igihe cyose.

Inyamaswa haba iz'agasozi ndetse n'izo tworora, ni ngombwa ko tuzitaho kuko nazo ziba zifitiye uburenganzira ndetse n'ibidufasha mu kwishima, haba tuzibona ndetse tunafatanya nazo mu kubaka Igihugu.